Uyu ni umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro n'umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro n'umwana barikumwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro, hirya yabo hari ibikombe ndetse n'ibikarito.

Iki ni icyapa kiriho umugore wambaye n'ishati y'umutuku, hakaba handitseho kuri kino cyapa amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umugabo n'umugore bambaye amakote y'umukara bakaba bicaye bishimye baseka, imbere yabo hakaba ari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru hirya y'umugore hakaba hari ayandi ari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rukaba rushushanyijeho igishushanyo kiri mu ibara ry'icyatsi kandi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako ndende cyane, ifite ibara ryenda gusa umutuku, ikaba iriho n'ibirahure byinshi, byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yayo hakaba hari itara rinini ryo kumuhanda.

Uyu ni umuryango ugizwe n'umugabo wambaye ishati n'umugore n'umwana bigaragara ko bagiye kureba muganga wambaye ishati ndende y'umweru arigusuzuma umwana.

Iki ni icyapa kiriho umugore wambaye umupira w'umuhondo, akaba aryamye ku ntebe isa umweru, hirya hakaba hari amagambo yanditse ku cyapa ari mu ibara ry'ubururu.

Iki ni icyapa kinini gifite ibara ry'umweru. Iki cyapa kikaba kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu n'umukara ndetse hakaba hari n'igishushanyo cy'umutaka usa umutuku.

Uyu ni umugabo wambaye umupira n'ikabutura, akaba afashe igare mu ntiko ze, akaba ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu, na we akaba afite igare mu ntoki ze.

Iki ni icyapa kiriho abantu biganjemo umugabo, umugore n'umwana bari guseka bishimye hirya yabo akaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo n'umukara.

Iyi ni inzu yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru n'umukara, hejuru yayo hakaba hari icyapa gishushanyijeho imodoka icumba umwotsi, ku mpande hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana babo babiri bicaye baseka bishimye.

Aya ni amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru, hirya hakaba hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umutuku n' ishati y'ubururu. Akaba afite icyuma kimeze nka terefone mu ntoki ze.

Ibi ni ibinyabiziga biri mu muhanda bifite ibara ry'umweru haruguru yayo cyangwa se impande yayo hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara .

Aha hariho igishushanyo cya terefone kirimo imibare igiye itandukanye, hirya yaho hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Iki ni icyapa kiriho umugabo n'umugore bafatanye, baseka, bishimye; hakaba hariho n'andi magambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rusa ubururu, rukaba rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba munsi yayo hashushanyije ikarita ya Afurika.

Aya ni amagambo agiye atandukanye ari mu mabara yiganjemo iry'umutuku, umweru ndetse n'umukara hakaba mu nsi harimo n'igishushanyo cy'amazu.

Uru ni urupapuro rusa umweru, uru rupapuro rukaba ruriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Aya ni amagambo ari ku gipapuro gisa umukara gifite n'akandi kabara gatoya k'umuhondo hasi, aya magambo akaba yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hashushanyijeho n'ikarita ya Afurika.

Iyi ni imyenda ifite amabara agiye atandukanye harimo ubururu, umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite hejuru hasa umweru, ndetse hakaba harimo n'amatara agiye atandukanye, inzu y'ubucuruzi kandi irimo imyenda y'ubwoko bugiye butandukanye.

Iyi ni inzu ifite ibara ry'umweru ikaba irimo amasakoshi agiye akozwe mu myenda itandukanye .

Iri ni iduka rigizwe n'imitako ya kinyarwanda ndetse n'imipira y'imyeru ndetse n'amasakoshi n'imisego .

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite urugi rusa umweru hakaba hariho ibyapa bijya bitandukanye biriho amagambo yanditsew m'ibara ry'umukara muri iyi nzu hakaba harimo imyenda igiye itandukanye.

Uyu n’umugabo wambaye umupira w'umweru, n’ipantaro y’umukara, n'umugore wambaye ikanzu ufite mudasobwa imbere ye bakaba bari kuganira bishimye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho amatafari ku mpande hasi hakaba hasa icyatsi ikaba irimo imyenda igiye itandukanye yiganjemo ibara ry'umweru, umukara n'umutuku.

Uyu ni umugore wambaye igitambaro cy'umukara n'umupira usa umuhondo akaba afashe terefone mu ntoki ze akaba ari mu isoko aho inyuma ye hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kuvugana n'umugore wambaye ikanzu, imbere ye akaba afite mudasobwa, bakaba bari mu cyumba aho hari imyenda myinshi igiye itandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero n'umupira w;umukara n'ipantaro n'inkweto z'umukara, akaba ari mucyumba kinini gifite itara ry'umweru ndetse gifite n'inkuta zisa umweru, akaba ari impande y'imodoka.

Izi ni imodoka nyinshi zitandukanye zisa umukara, zihagaze mu cyumba kinini gifite inkuta zisa umweru, zifite hasi hasa umweru, kuri icyo gikuta hakaba ari icyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo asa umweru.

Aba ni abagabo babiri umwe yambaye ishati n'isaha undi akaba afite insinga mu ntoki akaba yambaye ishati y'umutuku bakaba bari kuganira.

Aba ni abantu biganjemo abagabo ndetse n'umugore bakaba bafite icyapa, imbere yabo kiriho ibishushanyo by'imodoka nyinshi ndetse hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Iki ni ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara kikaba kirimo intebe imwe ikaba iriho ishashi isa umweru izindi ntebe zikaba zifite ibara ry'umukara.

Iyi ni meza y'ikirahure iteretseho impapuro zigiye zitandukanye ndetse n'agacupa k'amazi, hirya hakaba hari amakaro asa umweru ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga by'imodoka bifite ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa kirekire kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, hakaba kuri kino cyapa handi handitseho amagambo agiye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara ikaba ihagaze iri kumwe n'izindi modoka nyinshi cyane, hirya hakaba hari n'ibyuma binini n'amazu agiye atandukanye.

Iki ni ikinyabiziga kizifite ibara ry'umweru kikaba gihetse icyuma, kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo arimo mabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'ishati, mu biganza bye akaba afite icyapa kimeze nk'urufunguzo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku, akaba ahagaze imbere y'imodoka nini y'umweru.

Aba ni bagabo bafite udukapu dusa umutuku impande yabo hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru gasi hakaba hariho amakaro asa umweru naho.

Iyi ni imeza y'ikirahure iriho ibintu bigiye bitandukanye, hariho ikinyamakuru ndetse n'agacupa k'amazi, hirya hakaba hari imodoka zitandukanye zisa umweru.

Uyu ni umuntu ufite amafaranga mu ntoki ze ndetse n'ikaramu yicaye imbere ya mudasobwa, undi akaba ari hirya yambaye agapfukamunwa ari kumureba.

Iyi ni inote y'amafaranga iteretse ku meza y'urubaho, iyi note ikaba yanditseho amagambo ndetse ifite n'igishushanyo kiriho idarapo ry'u Rwanda ryiganjemo ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi.

Iyi ni inoti y'amafaranga iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hakaba hariho n'abana batatu bafite mudasobwa imbere yabo.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umutuku n'agapfukamunwa gasa ubururu, urimo urahabwa amafaranga n'umugore wambaye umupira wivanzemo umweru n'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'umweru n'ubururu n'amagambo ayanditseho akaba ari mu ibara ry'umweru n'ubururu. Impande yayo hakaba hari intebe z'ubururu n'ameza y'umweru ndetse na kandagira ukarabe y'ibara ry'icyatsi.

Izi ni inzu z'ubucuruzi ni nyinshi ziriho amagambo agiye yanditse mu ibara ry'umweru, umutuku, ubururu ndetse imbere hakaba hapatitse ibinyabiziga biri mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umwana wambaye ikabutura ndetse n'umupira akaba ari kumwe n'umuntu mukuru bakaba ari abaguzi bari mu iduka n'umucuruzi baje kugura amata.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro yumukara; akaba ahagaze impande y'intebe isa umweru; akaba ari mu iduka rifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umukobwa wambaye ishati y'umukara, akaba afite mu biganza bye injerekani z'umuhondo, akaba ari gusuka amata mu bikombe.

Iki ni icyumba kirimo cyangwa gisize ibara ry'umweru, kirimo ibyuma bigiye bitandukanye, hasi yayo hakaba hariho amakaro y'umweru ndetse n'igikombe gisa umutuku.

Uyu n'umugore wambaye ishati yiganjemo ibara ry'umukara, umweru, umuhondo, n'ubururu. Akaba yambaye n'ingofero mu mutwe, akaba afashe n'akajerekani gasa umuhondo.

Uyu ni umugore wambaye ishati ndetse n'ipantaro, akaba mu ntoki ze afite igikombe kinini kirimo amata ndetse akaba ari kureba mu idirishya amwenyura.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu babiri ndetse ikaba irimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu kabati gasa umweru, hakaba harimo n'intebe imwe isa umweru n'izindi zisa ubururu.

Iri ni iduka rifite umuryango ufite ibara ry'ubururu, ukaba wanditseho amagambo n'ibishushanyo bigiye bitandukanye. Hejuru yayo hakaba hari amabati nayo afite ibara ry'ubururu, inzu ikaba isize irangi ry'umweru.

Iki ni icyuma gikonjesha gifite ibara ry'umweru, kikaba gitereretsemo akajerekani nako gafite ibara ry'umweru ndetse n'ibikombe ndetse n'agacupa k'amazi.

Ibi ni ibyo kurya byinshi bitandukanye, biteretse ahantu ku gipapuro gisa kaki nacyo kiri mu kintu gifite ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hakaba harimo n'abantu batandukanye harimo umugore n'umugabo n'ameza asa umweru ateretseho ibintu bitandukanye.

Uyu ni umuntu wambaye umupira w'umuhondo akaba afite mu kiganza cye telefone irimo ibara ry'icyatsi n'umweru n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Uru ni urupapuro rusa umutuku, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, byo bikaba biri mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ishati n'umupira w'umweru, akaba ari guseka, mu biganza bye akaba afashe telefone yanditsemo amagambo agiye atandukanye.

Aya cyangwa se uyu ni umubare w'amafaranga ungana na magana atanu mirongo itatu na kabiri n'ibice cumi na bitandatu, biri mu madorari n'amagambo y'andi yanditse asaba mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Uyu ni umukobwa ufite telefone mu ntoki, yanditsemo amagambo akaba yambaye umupira w'umweru, i mpande yiwe hakaba hari andi magambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Aya n’ amagambo agiye atandukanye, aya magambo yose akaba yanditse mu ibara risa umukara, ariko hakaba hari n'irindi bara risa icyatsi ririho gukurikiza urupapuro.

Uru ni urupapuro rw'umweru, ruriho amagambo, amatariki, ndetse n'imibare, byanditswe mu ibara ry'umukara, hakaba hariho n'izina ryanditse mu ibara ry'umutuku.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara, ndetse hakaba hari n'izina ryanditse mu ibara ry'umutuku.

Aya ni amagambo yanditse ku rupapuro rusa umweru aya magambo akaba ari mu ibara risa umuhondo ndetse n'umukara ndetse n'umutuku.

Iyi ni inyemezabwishyu yanditseho amagambo asa, ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'imibare nayo iri mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inyemezabwishyu yerekana ikintu waguze n'amafaranga wakiguze.

Iyi ni igipapuro gisa umweru iki gipapuro kikaba kiriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Iyi ni inyemezabwishyu yanditseho amagambo mu nyuguti zisa umukara, ikaba iriho n'imibare itandukanye nayo yanditse mu mukara, ikaba hejuru ifite ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inyemezabwishyu iri ku gipapuro gisa umweru, ikaba yanditseho amagambo asa umukara hirya hejuru hakaba hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ndetse n'imibare byanditse mu ibara ry'umukara, hakaba harimo n'izina ry'umuntu ryanditse mu ibara ry'umutuku.

Iyi ni inyemezabwishyu iri mu ibara ry'umweru, ikaba iriho amagambo atandukanye yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare yanditse mu ibara ry'umukara, ikaba iriho n'ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda.

Uru ni urupapuro rw'ibara ry'uweru, ruteretse ku meza, rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara, ndatse hakaba hariho n'imikono yandikishiye ikaramu y'ubururu.

Ibi ni ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga agiye atandukanye, aya mafaranga akaba ashushanyijeho isura y'umuntu ndetse hakabw handitseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umukara n'icyatsi, agiye atandukanye.

Izi ni inoti eshatu zanditseho umubare icumi zifite, amabara agiye atandukanye harimo umweru, ndetse n'umutuku ku ruhande hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inote y'amafaranga yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'imibare iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.

Iki ni icyapa gifite amagambo ari mu ibara ry'umweru, icyatsi n'ubururu n'umukara ndetse kikaba gifite n'amabendera y'ibihugu bigiye bitandukanye, cyerekana uko ivunjisha rihagaze.

Uyu ni umuntu ufite mu biganza bye inote nyinshi z'amafaranga mu nsi ye hakaba hari telefone hirya yaho hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Iki ni igipapuro kiriho amabendera y'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'amagambo, n'imibare byanditswe mu mabara y'umukara, umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Iki ni ikiganza gifite amafaranga mu ntoki yanditseho amagambo agiye atandukanye, ashushanyijeho n'umugabo ayo magambo akaba yanditse mu nyuguti z'umukara.

Ibi ni ibiganza bifite inoti igiye yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara, ikaba inashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye.

Uyu ni umuntu w'igikara ufite inoti mu ntoki akaba ari kuzibara ari kuzireba z'amadolari.

Iyi ni inzu iriho ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ubururu n'imbere hakaba harimo intebe ndetse n'abantu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ku muryango wayo hakaba handitseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umweru, umukara n'umutuku. Hirya hakaba hariho n'amabendera y'ibihugu byinshi bitandukanye.

Iri ni iduka ririho ibyapa bigiye bitandukanye, hirya yaho hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa kimanitse ku nzu kikaba kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse andi akaba ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyumba gisa umweru n'umukara gifite ibirahuri byanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'ubururu n'umukara n'umutuku imbere muri icyo cyumba hakaba harimo ibyuma bitandukanye nka mudasobwa n'insakazamashusho.

Iyi ni inyubako iriho ibyapa byinshi biriho abantu bagiye batandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo n'ubururu.

Iyi ni inzu ifite idirishya ndetse n'urugi biri mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Iki ni icyapa kimanitse ku nzu kikaba kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Iki ni icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo afite ibara ry'umweru, munsi y'ayo hakaba ari urugi ruri mu ibara ry'umweru ruzengurutswe n'imipira igiye itandukanye y'ubururu n'umweru, n'umukara.

Iki ni igitanda kiriho uburiri buriho amashuka y'umweru ndetse n'umusego usa umweru, hirya hakaba hari akabati gasa umukara.

Izi ni intebe zikozwe mu rubaho zifatanye n'imeza ikozwe mu rubaho, hirya hakaba ari inzu yubakishijwe amatafari akaba asize irangi ry'umweru hejuru ni igisenge gisa umukara.

Izi ni intebe zifite ibara ry'icyatsi zin ndetse n'umukara zikaba zifite n'imisego nayo iri mu ibara ry'icyatsi n'umukara n'utumeza turiw ibara ry'umukara.

Izi ni intebe nyinshi zikozwe mu mbaho zikaba zifite n'imeza yazo ikozwe mu mbaho, zikaba ziteretse hanze y'inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya asa umukara.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho, zikaba zifite imisego isa umuhondo, zikaba ziteretswe mu cyumba gifite inkuta z'umweru, ndetse hasi hakaba hari aho amakaro asa umweru.

Aka ni akabati gakozwe mu rubaho kakaba kateretseho isaha kakaba kegeranye n'uburiri buriho amashuka y'umweru ndetse n'umesego usa umweru n'umukara.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho, izi ntebe zikaba ziteretse imbere y'ameza nayo akozwe mu rubaho mu mbuga imbere y'inzu ifite ibara ry'umweru.

Izi ni ntebe zikozwe mu mbaho, zikaba ziri kumwe n'ameza yazo, na yo akozwe mu mbaho, arimo n'ibara ry'umukara, zikaba ziteretse ahantu hari ibara ry'ubururu.

Izi ni intebe zifite ibara ry'umukara ndetse zikaba zirimo n'imisego nayo ifite ibara ry'umukara ndetse zikaba zifite n'utumeza twazo, utwo tumeza dufite ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako nto, ifite imiryango isa umukara, mo imbere hakaba harimo intebe zisa umuhondo, inyuma ku muryango hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Iyi ni inyubako ndende cyane ifite amadirishya n'igisenge bisa umukara, ikaba ifite ibara ry'umuhondo hasi hakaba hari intebe zitandukanye ndetse n'imeza zishinzeho n'imitaka y'umukara.

Iki ni icyapa kiriho inzu nini cyane, ifite ibara ry'umuhondo, ifite amadirishya acanyemo amatara, hasi hakaba handitse amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Iyi ni inyubako ndende ifite inkuta zisa umweru ndetse n'umutuku, amadirishya n'inzugi bisa umukara, kuri iyi nyubako kandi yateyeho intebe zisa umukara, hanze hari n'imitaka isa umweru ndetse n'undi usa umutuku.

Iyi ni inzu nziza ifite ibara ry'umweru ifite aho abantu bicara ndetse bakanoga.

Aha ni amazi aho abantu bogera, hirya hakaba hari inzu ndende cyane irimo intebe ndetse n'imitaka, hakaba hari n'ibiti bikikije Ku ruhande.

Abantu barenga batanu bari ahantu bacururiza imigati, ibikinisho by'abana bitandukanye ndetse harimo abantu bamwe n'abakozi ba emutuyene, abandi n'abakiriya bari baje guhaha, bari kubafasha mu buryo bwo kwishyura kugirango babashe kubona ibyo baje kugura.

Iyi ni inyubako nini cyane, ifite amatara menshi amurika, kandi ikaba ikikijwe n'ibiti bisa icyatsi, ku mpande hakaba hari ibinyabiziga byiganjemo imodoka ziri kugenda.

Izi ni intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'imeza yazo nayo iri mu ibara ry'umukara, ziteye mu busitani buteyemo ibyatsi bisa icyatsi impande hari amazi bogeramo asa ubururu.

Ubu ni ubusitani bunini, buteyemo ibyatsi bisa umukara, hakaba hari n'ahantu bogera, harimo amazi, hacanyemo amatara asa umweru, impande hakaba hari umutaka usa umutuku.

Iyi ni inzu ndende iri mu ibara ry'umweru, hakaba hariho ibishushanyo biri mu ibara ry'umukara n'umweru, iyi nzu hasi hakaba ari intebe zigiye zitandukanye ndetse n'imitaka.

Icyapa kimenyesha n'icyapa cyerekana ko hari ikigo cy'amashuri naho abanyamaguru bambukira; icyapa cyerekana nyarugenge pashoni pulaza, n'aho icyapa cy'amashuri kigarukira.

Iyi ni inzu ifite imiryango myinshi igiye iriho ibyapa bigiye bitandukanye, byanditseho amagambo ari mwibara ry'umweru, ubururu ndetse na umukara.

Iyi ni inzu ndende isize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse ikaba ifiteho n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ubururu. Imbere hakaba hari umuhanda hari kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'umugabo uri kwambuka.

Iyi ni inzu ifite urugi rukinguye hakaba hakoreramo ishami ry'ubwishingizi ryitwa sonarwa.

Iyi ni inzu nini ifite ibara ry'umuhondo, ikaba ifite urugi rw'umweru, inyuma hakaba haparitse ibinyabiziga byiganjemo imodoka, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'ubururu.

Iyi n’inyubako ndende ifite inkuta zisa umweru, ikaba ifite amadirishya as’umukara, hejuru y’inyubako hari icyapa gisa umutuku kiriho amagambo yanditse mw’ibara ry'umweru.

Uyu ni umugore wambaye ishati y'icyatsi, imbere ye hari mudasobwa, akaba yicaye ku ntebe imbere ye hakaba hari imeza, akaba ari kuvugana n'umuhungu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umuhondo ikaba ifite amadirishya asize ibara ry'umweru hakaba hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Iyi ni inzu ndende cyane iri mu ibara ry'umuhondo, ifite ibirahure by'umukara, ikaba iriho ibyapa n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, byanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru n'umutuku.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bose bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, bakaba bafite ameza imbere yabo ateretseho mudasobwa ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Iyi ni inzu ifite umuryango ufite ibara ry'umweru, uyu muryango ukaba uri mu gishushanyo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, imbere mu nzu hakaba hari intebe zifite ibara ry'ubururu.

Ibi ni ibiro byiganjemo intebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba harimo na mudasobwa nyinshi, hejuru yayo hakaba hari n'amatara ari gucana ibara ry'umweru.

Iki ni icyumba kirimo amatara amurika umweru n'utubati twinshi cyane dusize ibara ry'umweru ndetse n'intebe ziganjemo ibara ry'ubururu.

Uyu ni umugore wambaye umupira uri usa umweru ukaba urimo imirongo isa umukara, hejuru no hasi hakaba handitse amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Ndabona ikirere gisa ubururu, impande ahagana hasi hakaba hari inyubako zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'igiti gisi icyatsi, n'amagambo menshi agiye ari mu mabara atandukanye akaba yanditseho.

Aba ni abakobwa bambaye imikenyero bakaba bahagaze imbere y'inzu hirya yaho hakaba hari umugabo wambaye umupira hakaba hari n'undi ushinzwe umutekano .

Uyu ni umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru na karuvati, akaba ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu y'umweru, bakaba bafatanye baseka bishimye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bose bakaba bari kureba umugabo ufashe urufunguzo mu ntoki ze kandi hasi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agiye atandukanye.

Aya ni amagambo agiye atandukanye yanditswe mu ibara ry' umukara, ndetse n' icyatsi, ndetse n' umweru. Hirya yawo hakaba hari ibiceri byinshi bitondekanyije.

Aba ni abagore bahagaze bari kumwe n'umugabo, imbere y'ikarito iriho impapuro nyinshi bakaba nabo bafite ibintu bigiye bitandukanye nk'impapuro mu biganza byabo, impande yabo hakaba hari intebe zisa umuhondo, umutuku.

Aba ni abantu batandukanye bari imbere y'icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu ndende isa umweru, hirya ye hakaba hari amagambo yanditswe mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Iri ni iduka, ririmo abantu baje kugura ibintu bigiye bitandukanye, byiganjemo ibitenge, n'ibindi byinshi.

Aba ni abantu batandukanye, aho hari babiri bafatanye bari kuzamuka ingazi hirya yayo ari ibyuma bisa ubururu, abandi bakaba bari hepfo bari kuganira

Aba ni abagore bagiye batandukanye bambaye ibitenge bakaba bari mu isoko, umwe muri bo akaba afite umutaka, imbere yabo hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amashu, inyanya, ndetse na karoti.

Iri ni iduka ryo hanze ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo inkweto zisanzwe z'amabara y'umweru, umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu hirya yaho hakaba hari n'ibikapu bisa umukara.

Aya n'amoko menshi y'imboga agiye atandukanye; yiganjemo imboga z'urwatsi, yiganjemo na za karotiri ndetse n'amashu ndetse n'ibitunguru birebire.

Iyi ni inzu ndende cyane hasi yayo hakaba hari abantu bagiye batandunkanye, hakaba hahagaze n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Iri ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye barimo abaguzi ndetse n'abacuruzi. Iri soko rikaba ryiganjemo imbuto z'amoko yose agiye arimo: inanasi, imineke n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imipira ndetse n'amajipo, hakaba harimo n'imitako iri mu ibara ry'umukara, umweru umuhondo ubururu n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshi bagiye batandukanye, hakaba harimo n'ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye nk'inyanya n'intoryi n'ibindi byinshi.

Aba ni imbaga y'abantu benshi bagiye batandukanye, bahagaze imbere y'inzu ndende ifite imiryango igiye itandukanye, imwe isa icyatsi indi ubururu hakaba hariho n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda ugizwe n'abanyamaguru ndetse n'ibiziga bimwe biparitse ibindi bigenda hirya yawo hakaba hari n'amazu awukikije .

Aba ni abantu benshi biganjemo abagore, abana, abagabo bakaba bari mu isoko baje kureba ibicuruzwa birimo inyanya, inyanya ziri mu dutaro.

Iri n'isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibitunguru bigufi n'ibirebire, hakaba harimo n'abaguzi ndetse n'abagurisha.

Uru ni urupapuro rw'umuhondo, ruri ku gikuta gisa umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'imibare iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rusa umuhondo, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umuhondo.

Aba ni abagabo babiri; umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umukara. Uw'umupira w'umukara afashe igare mu ntoki, uw'umupira w'umuhondo afashe telefone mu ntoki.

Iyi ni inzu irimo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hirya hakaba hari abakobwa babiri, bambaye, umwe yambaye isengeri y'umukara, bakaba bari kureba muri terefone baseka bishimye.

Aba ni abagabo batandukanye bahagaze bambaye imipira y'umuhondo ndetse undi akaba yambaye umupira w'umweru bakaba bahagaze imbere y'iduka rifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara akaba ari ku iduka rifite irange ry'umuhondo akaba ari kuvugana n'umuntu wicayemo imbere.

Aya ni ameza ateretseho udupapuro twinshi dusa ibara ry'umuhondo, twanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu n'umukara hirya hakaba hari za mudasobwa, n'ururabo.

Uyu ni umuntu ufite telefone mu kiganza cye, akaba ari kwandikamo amagambo agiye atandukanye.

Iyi n'inzu y'ubucuruzi yanditseho amagbo atandukanye ari mu ibara ry'ubururu n'umweru nayo ikaba ifite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo abagore babiri bari kuganira umwe afite ikaramu ndetse n'igitabo.

Aba n’ abantu bagiye gushaka serivisi mu kigo runaka.

Uru ni urupapuro rusa umuhondo rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ubururu .

Ibi ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka isa umweru, moto zikaba ziriho abamotari bambaye imyenda isa umutuku.

Aya n'amagambo agiye yanditse mu mabara agiye atandukanye, yiganjemo umukara, ubururu aho harimo n'ifoto y'umugabo uri guseka.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umukara, akaba ariho ny'ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Iki ni igikapu kirimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, hirya yayo hakaba hari telefone nayo irimo ibishushanyo by'ibyo kurya bitandukanye, hirya no hejuru hakaba hari amagambo agiye atandukanye yanditse mu mabara atandukanye.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho amagambo, imibare ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Iri ni iduka rifite amadirishya y'umweru, inzugi z'umweru n'inkuta zisize ibara ry'umweru, rikaba ricuruza imyambaro igiye itandukanye.

Aya ni amagambo agiye atandukanye yanditse mu mabara asa umweru ndetse n'umukara, andi akaba ari mu ibara ry'ubururu hakaba hariho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Uyu ni umugore wambaye ishati isa ubururu, mu biganza bye afitemo terefone, iyo telefone irimo amagambo asa ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibishushanyo by'abantu babiri.

Iyi ni inzu ifite inkuta zisa umweru ndetse no hejuru hakaba hasa umweru, hacanye n'amatara. Iyi nzu ikaba ifite utubati dusa umukara ndetse n'amadirishya n'urugi rusa umukara.

Aba ni abantu babiri umugabo n'umugore bahagaze mu cyumba kinini cyane kirimo intebe zigiye zitandukanye, zimwe ziri mu ibara ry'umweru izindi ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ameza yazo.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umweru, ikaba ifite amatara asa umweru, hasi hakaba hari amakaro y'umukara ndetse n'umweru, ikaba ifite n'akabati gasa ubururu, ikaba ifite aho batekera, hejuru ku meza hakaba ba yateretswe n'imbuto.

Iyi ni inzu igeretse rimwe, ikaba hasi yayo ifite imodoka, ikaba ifite n'urugi runini, rusize ibara ry'umukara.

Iyi ni inyubako ndende yubatswe n'amatafari, ikaba iriho amatara, ikaba isize ibara ry'umweru n'andi mabara, ikaba ifite n'ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye.

Aha ni mu bwiherero bw'inzu hakaba harimo amakaro y'ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ubwiherero nabwo bufite ibara ry'umweru.

Iki ni icyumba cyo gukarabiramo gifite idirishya risa umweru ndetse gifite n'amakaro ari ku bikuta asa umweru ndetse akaba arimo n'ibase isa ubururu.

Iyi ni inzu ifite ibara cyangwa isize ibara ry'umweru n'amabati yenda gusa umukara, ikaba ifite urugi runini ruri mu ibara ry'umukara inyuma y'urwo rugi hakaba hari imodoka ihagaze ku ruhande.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa umweru ku nkuta zayo hakaba hasize ibara ry'umweru, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite n'amadirishya y'umukara, ikaba ikikijwe n'ubusitani.

Iyi ni inzu isize ibara ry'umweru, ikaba ifite no hasi amakaro asa umweru, ikaba ifite n'imbuga nini cyane irimo amabara avanzemo umukara n'umutuku.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa ubururu, ikaba ifite inkuta zisa umweru, ikaba ku ruhande rwayo naho hasa ubururu ndetse ikaba ifite n'imbuga nini.

Iyi ni inzu ndende ifite inkuta zisa umweru ndetse n'amadirishya asa umweru, hirya hakaba hari urundi rukuta rwo rusa umutuku, ikaba inzu ifite imbuga nini ndetse n'ubusitani.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye, ikaba iriho irangi ry'umweru ndetse amadirishya akaba asa icyatsi, hakaba hirya hari imbuga nini.

Iyi ni inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirisha asize ibara ry'umukara hakaba hariho n'ingazi zikozwe mu bibaho ndetse ziriho n'ibyuma bifite ibara ry'umukara.

Aba ni abantu bari kugenda hagati mu maduka agiye atandukanye, acuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo n'imyenda yo kwambara n'ibindi byinshi.

Iyi ni inyubako irimo abantu bagiye batandukanye ikaba hejuru irima amatara menshi agiye atandukanye amurika umweru ndetse n'umuhondo, hasi ikaba irimo amakaro y'ibara ry'umweru n'umukara.

Aba ni abantu bagiye batandukanye b'abaguzi bari mu cyumba cy'ubucuruzi aho bari kureba ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu iduka.

Iri ni iduka ririmo abaguzi bagiye batandukanye ndetse ririmo n'amatara asa umweru n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo nk'amasakoshi n'ibindi.

Uyu ni umugore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari mu inzu y'ubucuruzi akaba ari kureba ibitunguru ndetse n'inyana

Uyu ni umugore wambaye umupira w'umweru, n'pantaro y'ubururu, imbere ye hakaba hateretse urubuto rw'inanasi, akaba nawe ari kureba mu nsakazamashusho, cyangwa se mudasobwa ari kuyikoresha

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hakaba hari imyenda itandukanye, yo mu bwoko bw'amakanzu, afite amabara yiganjemo ubururu, umuhondo, umutuku, ndetse n'andi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye ndeste n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aha imbere hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira ndetse n'ipantalo uri gukoreshwa uri gukoresha mudasobwa.

Uyu ni numu umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba ari mu nzu y'ibicuruzwa, akaba arimo arareba ibicuruzwa biri imbere ye.

Iri ni iduka ririmo abaguzi, rikaba ryiganjemo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amasakoshi ndetse n'ibindi byinshi.

Ibi ni ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu iduka aho tubonamo inkweto z'amabara atandukanye, imikandara nayo y'amabara atandukanye ndetse n'amasakoshi agiye atandukanye.

Aya ni amagambo yanditse ku mwenda cyangwa se igipapuro gisa umweru aya magambo akaba yanditswe mu nyuguti cyangwa se mu ibara risa icyatsi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bamwe bicaye ku ntebe zisa umweru abandi barahagaze, imbere hakaba hari ameza bakikije ariho amakayi cyangwa se udutabo tugiye dutandukanye.

Uyu ni umugabo uhagaze wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'ubururu, akaba ari kuvuga afite indangururamajwi imbere ye, impande ye hakaba hari intebe z'umweru nyinshi.

Uyu n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu, n'ishati isa umweru. Imbere ye hakaba hari indangururamajwi, akaba ari kuvuga, inyuma ye hakaba ari umudamu wambaye igitenge uri guseka.

Iki ni ikiganza gifite urupapuro rusa umuhondo, uru rupapuro rukaba ruriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse hakaba handitseho n'amagambo yandi ari mu ibara ry'umukara.

Izi ni impapuro nyinshi zisa umweru zanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara zikaba ziteretse ku mwenda usa umuhondo.

Iri ni iduka ryiganjemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa n'ibindi byinshi.

Aka ni kabati kiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hakaba hateretsemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bifite amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite utubati tureture dufite ibara ry'umweru, tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, Hasi hakaba hari amakaro asa umukara, hejuru hakaba hari igisenge gisa umweru, n'amatara y'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite icyapa cyangwa se ibyapa bigiye bitandukanye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye bari kwinjira muri iyi nyubako.

Uyu ni umukobwa wambaye amarineti, n'ikote, n'umupira w'umweru. Akaba ari mu iduka ari gutoranyamo ibicuruzwa ashaka kugura.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye, ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imbere hano hakaba hari umugabo uri gukoresha mudasobwa bari kwishyura.